Urutoki ruri mu gisambu. Ariko na rwo rwaranarumbye uru nguru, Ndabona rudafite n'umusaruro cyane sinzi, nta n'ubwo bajya barubagarira, ndabona ari ikigunda.

Arimo kubitera umuti, gusa afite ikirayi cyiza kirasa neza kirashishe, ndabona yaragihaye n'ifumbire ihagije. Icyuma cyamuvunaguye ariko.

Ibitoki biraryoshye bari kubipakurura mu isoko wagira ngo bagiye kubicuruza. Umukobwa se ari kugura, ari gupakurura? sinzi ibintu arimo, ndabona Ari hafi yaho bari kupakururira.

Ibijumba bisa nibiryoshye, ndi kubona bifite ifufu pe! Abahungu nabo baragiye babikurana n'ibyatsi, bya byose. Ese ni ibijumba? Ni tangawizi? Ko ndi kubona bisa na tangawizi mwa ! Ari umweru dede.

Ko wagira ngo n'ingano mwa! za kizungu niba atari gisukari izi ngano, imifuka ba yujuje baragenda barayidepa pe! no ku mutwe haruzuye yenda no kumeneka ahubwo!

Inkoko za kijyambere aha ni mu ifamu y'inkoko, ndi kubona afite n'uburiro bwa kijyambere. Inkoko zitanga umusaruro, uyu muntu ashobora kuba azigaburira neza.

Inyambo, inka z'inyarwanda utapfa kubona ahantu henshi, ndabona iyi ngiyi isa n'inyambo y'inyarwanda n'ubwo zitagipfa kuboneka cyane sinzi.